Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, aho bahuriye mu isoko rinini, baje kureba ibicuruzwa badafite, bityo bigatuma biborohera kandi bitabagoye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu, hirya yabo hari abandi bana bari guseka, imbere yabo hateretse ibiryo biryoshye kandi byiza.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu kibuga kinini cy'umupira, aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye banakemura ibibazo abaturage bafite.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'umutuku, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bafite amajerekani manini ndetse ubona ko batekereza neza, bitewe n'uburyo bishimye kandi banezerewe.

Umukobwa wambaye imyenda y'ubururu n'ishati y'umweru, arimo gukaraba amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mwanda, bityo bigatuma agira ubuzima bwiza.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umutuku, n'umukara biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye n'uburyo bafata ingamba ku bibazo biri muri sosiyete.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako nini, barimo kuganira ku bibazo bitandukanye biri mu baturage bashaka uburyo byakemuka kandi byihuse.

Umugore ufite indobo ebyiri, ziganjemo amabara y'umutuku n'umuhondo, uvuye kuvoma amazi kugira ngo ayakoreshe mu bikorwa bitandukanye byo mu rugo.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu cyumba gikorerwamo inama bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru ndetse n'umutuku baricaye imbere y'ameza yabo hateretse uducupa.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abantu bahaje kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi barwanye indwara zituruka kumubyibuho ukabije.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abana ndetse n'umukobwa wambaye inkweto z'umuhondo, ipantaro ndetse n'umupira byiganjemo amabara y'umukara n'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu baje kuvoma amazi bafite ibikoresho birimo ijerekani, indobo n'amabasi bityo bigatuma batwara amazi menshi.

Icyumba kinini kirimo abaganga bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umukara, barimo kwiga ku bibazo bitandukanye, abarwayi bahura na byo mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, bafite ibikoresho bifashisha barimo kuvura abarwayi kandi bakabavura neza bityo bigatuma bakira vuba.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara, aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye n'uburyo bakosora ndetse bagashyira mu bikorwa ingamba bihaye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino baje kuvoma amazi, bafite amajerekani manini kandi n'amato, biragaragara ko amazi yabuze.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore, bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo, umukara, umweru ndetse n'umutuku.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'icyatsi n'ubururu, ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Hahagazemo umugabo wambaye imyenda y'imikara, ubona ko yitegereza ibikoresho bigiye biri muri iyi nyubako.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje kuvoma amazi, kugira ngo bayakoreshe mu bikorwa bitandukanye, nko kumesa, koza ibyombo, ndetse no koga.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu aho baza kuvoma amazi yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abana bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umweru, ndetse n'umukara bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye.

Umukecuru wikoreye ijerekani y'umuhondo, uvuye kuvoma amazi, iruhande rwe hagaze umwana, wambaye imyenda y'ubururu, ndetse ubona ko yitegereza uyu mukecuru.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubuvuzi yiganjemo amabara y'umweru, umukara, n'umutuku, ni ahantu heza ubona ko hari ibyatsi byinshi kandi bitoshye bityo abantu bakahakundira ukuntu ari heza.

Inyubako nini irimo amabara y'umuhondo yahuriwemo n'abantu baturutse mu bice bitandukanye, by'igihugu aho bahura bakaganira ndetse bakungurana ibitekerezo ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino mu gihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu, icyatsi, umweru n'umutuku, aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye bakanazishakira ibisubizo.

Urujya n'uruza rw'abaganga baturutse mu bice bitandukanye bambaye impuzankano yibanda ku mabara y'umweru, ubururu n'umukara ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umugore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umweru ufite ijerekani mu ntoki ubona ko agiye kuvoma amazi yifashishwa mu gukora amasuku.

Ibikoresho byiganjemo amajerekani, byifashishwa mu kuvoma amazi ndetse n'abantu bahagaze imbere y'iriba benshi cyane. Biragaragara ko amazi yabuze.

Umusaza wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ufite ijerekani mu ntoki, ku iriba arimo kuvoma amazi kugira ngo ayakoreshe mu gukora isuku mu rugo.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse hirya no hino bicaye imbere y'ameza, hariho uducupa turimo amazi yo kunywa, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore n'abana, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru, ubururu n'umuhondo.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagore n'abagabo, bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo, ubururu, umukara ndetse n'ayandi agiye atandukanye.

Urujya n'uruza rw'abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru ndetse ubona ko bafite insanganyamatsiko zitandukanye, bashaka kugeza ku baturage.

Umwana uri ku iriba arimo kuvoma amazi yambaye umupira urimo amabara y'umukara n'ubururu, arishimye kandi bigaragara ko anezerewe, ari kunywa amazi.

Umugore urimo guseka wikenyeje igitenge ndetse wambaye n'umupira mwiza arimo gukaraba yishimye ubona ko byamurenze kandi byamunyuze.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagore, abagabo ndetse n'abana imbere yabo hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'inkweto z'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje kuvoma amazi kugira ngo bayakoreshe mu bikorwa bitandukanye, harimo kumesa, koza ibyombo n'ibindi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umukara n'umweru, iruhande rwaho hari iriba rinini rivomwaho n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu.

Imodoka nini itwara imizigo yiganjemo amabara y'umweru ,umukara ,ubururu n'umuhondo ijyiye kuzana imitwaro i Kigali.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga kugira ngo basuzume indwara abarwayi bafite higanjemo amabara y'umuhondo n'icyatsi.

Umubyeyi wambaye imyenda yiganjemo amabara yumweru ubururu umuhondo n numukara urimo gukarabya umunyeshuri kugirango ajye kwiga.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umutuku n'icyatsi, aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye kandi zibafitiye akamaro.

Icyumba kirimo umurwayi n'umuganga, urimo kugenda yita ku mwana ufite ikibazo ndetse amushakira imiti kugira ngo asubire muri sosiyete yakize.

Inyubako nini irimo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, baje gusaba serivisi y'ubuvuzi, hari umugore uri kureba muri mudasobwa, agenda yandika ibintu bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse hirya no hino, biganjemo abagabo n'abagore bambaye imyenda irimo umweru umutuku, umukara ndetse n'ubururu, barimo gufata ifoto kandi ni nziza.

Umugore uri kumwe n'umwana we barimo gusoroma imboga ziganjemo amabara y'icyatsi ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, urimo gukaraba amazi meza n'isabune kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugabo wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umukara, urimo gukaraba amazi meza n'isabune kugirango yirinde indwara zituruka ku mwanda.

Abantu batandukanye bahuriye ku nyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, mu bucuruzi ndetse n'inama z'abayobozi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu.

Urujya n'uruza rw'abana baturutse mu bice bitandukanye baje kuvoma amazi ku iriba ubona ko bafite inyota kandi bakeneye amazi yo kunywa.

Abagore bafite imifuka mu ntoki y'umuceri, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, ubururu, icyatsi, ubona ko bishimye kandi banezerewe bityo bikabongerera iminsi yo kubaho.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore n'abana, bambaye imyenda y'umukara, umuhondo n'umweru.

Ihuriro ry'abantu baturutse hirya no hino ku isi, biganjemo abagabo n'abagore, bambaye imyenda myiza y'umukara, umweru, ubururu n'umuhondo kugira ngo bige ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Icyumba cy'amashuri kirimo amabara y'umweru n'ubururu, hicayemo abana bishimye kandi banezerewe, bambaye imyenda y'umukara n'umweru.

Urujya n'uruza rw'abana baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umukara n'umweru, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Hari amajerekani manini, indobo n'amabasi, aho abantu bahuriye baje kuvoma, ni ku iriba rinini ndetse ritanga amazi meza asukuye kandi afitiye abaturage akamaro.

Ababyeyi babiri bambaye imyenda, yiganjemo amabara y'umutuku n'umweru, umugore umwe uteze igitambaro mu mutwe ndetse wicaye ku ntebe nziza, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umwana w'imyaka icumi urimo kuvoma amazi yifashishije ibikoresho byabugenewe harimo indobo ndetse n'amajerekani kugira ngo atware amazi menshi.

Urujya n'uruza rw'abana baturutse mu bice bitandukanye, byiganjemo ibiti byinshi n'ibyatsi bitoshye, aho bakura amazi meza kandi afite isuku.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi baturutse hirya no hino aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye, bashaka ibisubizo by'ibibazo biri mu muryango nyarwanda, n'uburyo byashyirwa mu bikorwa bakita ku buzima bw'abanyarwanda.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye ku iriba, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'icyatsi n'umutuku, aho barimo kuvoma amazi ndetse bakanayanywa.

Urujya n'uruza rw'abarwayi bahuriye ku ivuriro, baje kwisuzumisha indwara zitandukanye, aho umuganga amufasha ndetse akamuha imiti n'ubujyanama, ku buryo yakitwara, ndetse yakirinda.

Icyumba kinini kirimo umuganga ndetse n'umurwayi, ni ahantu higanje amabara y'icyatsi, umweru n'umuhondo, hahuriye abarwayi batandukanye, baje kwa muganga kwivuza.

Urujya n'uruza rw'abana bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, bafite amajerekani menshi bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umutuku, n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abana baje kuvoma amazi mu kiyaga kugira ngo bayakoreshe mu bikorwa bitandukanye, ibyo kumesa, koga no koza ibikoresho bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko aho bagura ibicuruzwa bitandukanye, kugira ngo babijyane mu rugo kuko baba batabifite bityo bikabafasha kugabanya amafaranga y'ingendo za hato na hato,

Umugore wambaye ikanzu y'amabara yumutuku n'umweru, ufite ijerekani arimo kuvomeramo amazi kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mwanda.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse hirya no hino ku isi, biganjemo abakobwa, abasore n'abagabo, bambaye imyenda y'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore n'abasaza, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru n'umuhondo.

Inyubako zitandukanye zisakaje amabati y'umutuku zizakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ubuvuzi aho bizaba byegereye abaturage kandi bakabibona bitabagoye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo umugabo wambaye imyenda y'umuhondo, ubona ko arimo gutanga ubufasha, abuha ababyeyi n'abana.

Umwana uri kuvoma amazi ku iriba akoresheje intoki yambaye imyenda yiganjemo umweru n'ubururu, ari mu kigo kinini gitangirwamo serivisi zitandukanye cyane cyane iz'ubuvuzi ndetse n'ubuvuzi bw'amaso.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umweru iruhande rwabo hateretse mudasobwa bifashisha kugira ngo babone imyirondoro.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umuhondo, ubururu ndetse n'umweru.

Inyubako nini yateraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye, aho basangira, ndetse bungurana ibitekerezo, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru, ubururu, n'umuhondo.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abana, abagabo n'abagore, aho bahurira hamwe bakiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye zifitiye igihugu akamaro.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, umuhondo, ndetse n'ayandi bigaragara ko bishimye kandi barimo guseka.

Inyubako nini irimo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, biganjemo abagore, abagabo. Bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umuhondo, umukara ndetse n'umutuku, ubona ko bishimye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, umweru. ndetse n'umukara, bari munyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye ndetse n'inama zitandukanye.

Umwana w'umuhungu ufite imyaka icumi waje ku iriba kuvoma amazi yitwaje ibikoresho byabugenewe harimo indobo ijerekani ndetse n'ibindi.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye kirimo umugabo wambaye ikoti ryiza ry'umukara n'ishati nziza y'umweru, ubona ko atanga imbwirwaruhame ayiha abaturage.

Abagabo bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi bari munsi y'igiti kinini kigaragara nk'aho gikuze kandi ari cyiza.

Umugore uteruye umwana ari ku iriba ateze indobo ngo avomeremo amazi, arishimye kandi aranezerewe, yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru.

Abana bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweruru n'ubururu, bafatanye urunana bishimye cyane ndetse aho bagiye guhuriza hamwe imbaraga zo kubaka igihugu.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umukara, ubona barimo kubyina bishimye kandi banezerewe bityo bikabongerera iminsi yo kubaho.

Abana bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umuhondo, n'umutuku, barimo koga, ndetse ubona ko bagiye kujya ku mashuri, bityo bikabafasha kujijuka, kandi bakagira ubwenge.

Umugabo wambaye umupira wiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, uri kumwe n'umwana w'umukobwa wikoreye ijerekani, ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi baje kuvoma amazi kugira ngo birinde indwara zitandukanye zituruka ku mwanda, aho baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu.

Abana bari guseka bambaye imyenda y'umutuku, umweru n'umukara bari gukaraba intoki kugirango babone uko barya, iyo umuntu afite isuku bituma agira ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abaganga bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, bari mu nyubako nini yiganjemo ibikoresho byifashishwa kwa muganga.

Icyumba kirimo abantu barimo kubyina, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umutuku, icyatsi n'ubururu, hateyemo irangi ryu'muhondo n'umweru.

Inyubako nini yahuriwemo n'abantu batandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara, ubururu, icyatsi ndetse n'umukara.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda y'ubururu umweru ndetse bafite imisatsi myinshi abo bantu bigaragara ko ari abaganga kandi bari gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga bavura abarwayi, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, maze bagataha bishimye, kandi banezerewe.

Inyubako yateraniyemo abarwayi n'abaganga baturutse mu bigo bitandukanye bivura abantu, ubona ko babigize umwuga kandi babimazemo igihe.

Urujya n'uruza rw'abana baje kuvoma amazi ku iriba, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umutuku, ubururu ndetse n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abana baje kuvoma amazi ku iriba, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara n'ubururu ndetse ubona ko bari mu kigero cy'imyaka itanu n'irindwi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo urubyiruko, aho abayobozi babaha ibiganiro ndetse bakabagira inama y'uburyo bakitwara, kuko urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo hazaza.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu hamwe baje kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye harimwo izo kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu bityo abaturage bakagira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abana baje kwa muganga kugira ngo basuzumwe indwara bafite, hamwe no kureba icyateye ubu burwayi kugira ngo bagirwe inama.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abakecuru, abana ndetse n'ababyeyi, aho basuzuma indwara bafite, bakabaha imiti bifashisha bageze mu rugo.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo n'abagore, n'abana, bari mu inzu irimo ibishushanyo bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, aho bahuriye ku ivuriro kugira ngo bahabwe ubufasha butandukanye, yaba ubw'amafaranga, imiti ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bambaye imyenda y'umukara n'umweru, barimo kuvoma amazi ku kigega, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umugore ufite igikoresho cyifashishwa mu buvuzi gipima abarwayi, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, iruhande rwe hateretse ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Urujya n'uruza rw'abana baje kuvoma, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, bafite indobo nini batwayemo amazi kugira ngo bayakoreshe mu bikorwa bijyanye n'isuku.

Umwana ufite imyaka irindwi wambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi n'umukara, urimo kuvoma amazi ku iriba, kugira ngo ayakoreshe mu gusukura ibikoresho bitandukanye.

Umugore wambaye ishati y'umweru, uhagaze imbere y'abaturage, abagezaho ijambo ndetse n'ibyo yabateguriye kugira ngo bamubaze ibibazo aho badasobanukiwe na we abasubize.

Ihuriro ry'abaganga batandukanye, baturutse mu bice hirya no hino, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, icyatsi, n'umweru, ubona ko bishimye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo umweru, ubururu, umukara n'icyatsi, ubona ko bahurijwe hamwe, ni ikintu gikomeye kandi gifite akamaro kanini.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru umuhondo ndetse n'umukara, ubona ko bafite akanyamuneza kandi bishimye.

Icyumba kinini cyahuriyemo abantu baturutse impande n'impande, baje gupimisha abana kwa muganga, aho bagirwa inama ndetse n'uburyo bafata abana babo neza, babaha imiti ku gihe.

Umuntu uri kuvoma amazi akoresheje intoki kugira ngo abone ayo kunywa, iyo umuntu anyweye amazi bituma abasha kugira ubuzima bwiza bityo bikamurinda indwara zigiye zitandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'amabara y'umukara ufite ijerekani mu ntoki yaje kuvoma amazi, hirya ye hari ibiti binini kandi bitoshye.

Umugabo wicaranye n'umugore we barimo kuganira ndetse bungurana ibitekerezo, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, umutuku n'umuhondo ubona ko bishimye.

Abana bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi bambaye imyenda yiganjemo umweru, umutuku ndetse n'umukara barimo, baravoma amazi meza kandi iyo umuntu afite amazi asukuye agira ubuzima bwiza.

lnyubako nini isakaje amabati y'ubururu, iruhande rwayo hahagaze abagabo batatu bambaye imyenda y'umweru, ubona ko bari gukora amasuku mu kigo, iruhande rwabo naho hari amadobo n'amabasi manini.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu bitaro, bambaye imyenda yiganjemo amabara atandukanye ari yo umweru, umukara, umutuku ndetse n'ayandi.

Umugore uteruye umwana urimo gufashwa n'umuganga kugira ngo amurinde indwara zituruka ku mirire mibi ndetse amufashe abashe kumera neza.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abana, abagabo n'abagore, bambaye imyenda y'umweru, umutuku, umukara n'umuhondo.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'isi, biganjemo abaganga, abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye ubona ko bishimye.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abana, abakobwa n'abagore, barimo kwitabwaho kugira ngo basuzumwe bahabwe ibisubizo.

Inyubako yateranimo abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo, abagore, n'abana, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru, n'umuhondo.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko baje kugura ibicuruzwa bitandukanye harimo umuceri, kawunga ndetse n'ibindi byabateranirije hamwe baje kureba badafite.

Umukobwa wambaye ishati y'umweru, ufite igitabo mu ntoki arimo kwandikamo ibintu byinshi bitandukanye, arimo kugenda abaza umusore umwicaye iruhande.

Umwana w'imyaka itanu, waje ku iriba kuvoma amazi meza, kugira ngo yifashishwe boza ibikoresho bitandukanye ndetse banasukura inzu, kugirango bagire ubuzima bwiza.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo n'abagore, aho bavurirwa ndetse bagahabwa ubufasha ku ndwara bafite.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku ivuriro kugira ngo basuzumishe abana babo indwara barwaye kugira ngo bakire kandi bafashwe bahabwa n'inama bazajya bakoresha baratashye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abaganga ndetse n'umuntu urimo gufotora umwana wikoreye ijerekani kugira ngo yereke umwana amafoto meza.

Umubyeyi wambaye igitenge cyiganjemo amabara y'umutuku, icyatsi, umuhondo n'ubururu, wicaye mu nzu nini kandi ubona ko yishimye anezerewe, bityo bigatuma amara iminsi myinshi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, umuhondo, ndetse n'ubururu, aho bahuriye hamwe, kugira ngo bige ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo urubyiruko ndetse n'abantu bakuru, bicaye imbere y'imodoka irimo amabara y'umweru n'ubururu.

Umubyeyi wicaranye n'umuganga, arimo kumubaza ibibazo bitandukanye bijyanye n'indwara arwaye kugira ngo ahabwe imiti ndetse agirwe n'inama y'uburyo ayikoresha.

Umukecuru wambaye imyenda yacitse, ufite umufuka mu ntoki, iruhande rwe hahagaze abantu batandukanye, ubona ko bamwitegereza kandi bagiye kumufasha.

Inyubako nini irimo amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'inama z'abayobozi batandukanye.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi batandukanye, baturutse mu bice impande n'impande by'igihugu, aho bahurira hamwe bakiga ku bibazo biri mu baturage.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, ubururu ndetse n'umuhondo, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umugabo wambaye imyenda yacitse, uri mu muhanda, ubona ko afite ikibazo kandi akeneye umuntu umufasha, iruhande rwe hari inyubako nini isakaje, ibyatsi ndetse iruhande rwayo hicaye umuntu ubona ko yitegereza kandi ashaka kugira icyo avuga.

Inyubako nini irimo abantu batandukanye bambaye imyenda y'umweru, umukara n'ubururu, urabona ko bari guhabwa ijambo n'umuyobozi wabo ndetse bagataha bishimye.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umukara, umuhondo ndetse n'umweru, aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Abana baturutse mu bice bigiye bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umutuku, icyatsi, ndetse n'ubururu. Aba bana urabona ko bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kinini cyateraniyemo abagore bambaye imyenda y'umutuku, umuhondo n'umweru, barimo kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye ndetse bashaka n'uburyo basubiza ibibazo babajijwe n'abaturage.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagore, abagabo n'abana, aho bigishwa indangagaciro na kirazira cy'umuco nyarwanda.

Umugore uteruye umwana iruhande rwe hicaye undi, ubona ko bishimye kandi banezerewe, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umuhondo n'umutuku.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda y'umukara, ubururu, umweru ndetse imbere yabo hari ameza manini ariho ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, biganjemo urubyiruko, bambaye imyenda isa umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abana bambaye imyenda irimo amabara atandukanye ubururu, umukara n'umweru, bafite idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda mu ntoki.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umukara umuhondo umweru n'umutuku, bahuriye hamwe kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu gace kamwe bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umutuku n'umweru. Aho baganira ku bibazo bitandukanye bifite ireme kandi bifite ishingiro.

Umukobwa wifashe mu mutwe ufite imisatsi myinshi, yambaye imyenda yiganjemo umweru arimo kureba hasi bigaragara ko afite ikibazo kandi akeneye ubufasha bwibanze.

Umugabo wigikara wambaye umupira w'icyatsi ubona ko ababaye uri gutemba amarira kumatama, uyu mugabo ari kurira ndetse ubona ko ababaye kandi akeneye umuntu umufasha.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje kwa muganga bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo, umukara, icyatsi, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, ufite imisatsi myinshi, inyuma ye hateye ibiti binini byifashishwa mu kubazwamo ibiti ndetse n'intebe nziza.

Icyumba kinini kirimo umugabo wifashe ku gahanga wambaye ishati y'umukara, urimo kugirwa inama na muganga kugirango asubire muri sosiyete yishimye.

Ihuriro ry'abana baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bambaye imyenda y'umuhondo ndetse ubona ko bishimye kandi banezerewe bityo bikabatera akanyamuneza.

Abagore bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umuhondo, umutuku, n'icyatsi bateruye umwana ndetse bafite inkoni mu ntoki.

Itsinda ry'abantu bahuriye mu nyubako, bambaye imyenda yiganjemo umweru, icyatsi, ubururu, n'umukara, ubona ko bishimye kandi banezerewe, bityo bikabafasha kwihutisha gahunda.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki, wicaye ku ntebe irimo amabara y'umutuku n'umuhondo, iruhande rwe hari umugabo w'igikara ubona ko yitegereza hirya.

Icyumba kinini cyahuriwemo n'abanyeshuri batandukanye bo mu mashuri abanza, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, ubona ko bishimye kandi banezerewe bityo bikabafasha kwiga neza.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye, bambaye imyenda y'umutuku, ubururu, umweru ndetse n'umukara, bityo bikabafasha kuganira ndetse bafata imyanzuro.

Urujya n'uruza rw'abana baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, ubururu, n'umweru, barimo kujya gushaka amazi yo gukoresha mu rugo.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako nini, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara, ubururu n'umweru ubona ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bahuriye mu nama kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye biri mu baturage n'uburyo babishakira ibisubizo.

Inyubako nini isakaje amategura iruhande rwayo ari umukecuru wikoreye igitebo kinini, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu batatu bambaye imyenda yiganjemo amabara y,umukara, umweru, ubururu n'umuhondo ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Icyumba cy'amashuri cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abarimu ndetse n'abandi bayobozi b'ikigo, aho bamubaza ibibazo ku bibazo afite.

Umukobwa w'imibiri yombi, ufite amenyo y'umweru ubona ko aseka neza, ufite imisatsi myinshi kandi imanuka igera ku ijosi, ku buryo iyo agiye kuryama yambara ingofero.

Umusore w'imibiri yombi ufite akadodo gakoreshwa mu gusukura amenyo ubona ko arimo kubikora kinyamwuga kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mwanda.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga byiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umukara aho abantu baturuka hirya no hino bahurira bagahabwa ubufasha.

Umukobwa n'umuhungu bambaye imyenda y'umweru, bafite imisatsi myinshi, ubona ko bahagaze ahantu hamwe bishimye kandi banezerewe.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi w'imibiri yombi, wagiye kwa muganga kwivuza amenyo, ubona ko yitabwaho ndetse bashakirwa imiti kugira ngo atahe yishimye.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, byiganjemo amabara y'umweru, umukara, ubururu, aho abantu baturutse hirya no hino bahurira bagahabwa ubufasha.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi, yiganjemo amabara y'umweru, ahagaze imbere y'ibyuma by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu buvuzi basuzuma indwara z'abarwayi.

Umusore ufite imisatsi myinshi ndetse n'ubwanwa, urimo guseka, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu, urimo gufashwa na muganga.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi ndetse wambaye isengeri y'umweru w'imibiri yombi ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umwana uri guhabwa ubuvuzi bw'amenyo ufite imisatsi myinshi, iruhande rwe hari umuganga urimo kumufasha wambaye udukoresho twabugenewe dukoreshwa mu ntoki.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umutuku icyatsi umuhondo ndetse n'umweru, bafite uburoso ndetse na korogate bakoresha basukura amenyo.

Umuganga wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa urimo kwita ku murwayi ndetse amuvura ikibazo kijyanye n'amenyo.

Umwana wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo n'umutuku urimo kuvurwa amenyo ndetse ahabwa n'imiti kugira ngo abashe gukira vuba.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu batandukanye biganjemo abarwayi n'abaganga aho baje kureba serivisi nziza maze bagataha bishimye.

Icyumba kirimo umugabo wambaye umupira w'umukara n'indorerwamo z'amaso urimo gukaraba amazi meza n'isabune, kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mwanda.

Inyubako nini yateraniyemo abantu bavuye mu bice bitandukanye, harimo umukobwa wambaye imyenda y'umweru ndetse urimo gukoresha agakoresho kabugenewe mu gusukura amenyo.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, irimo umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru.

icyumba cyahuriwemo n'abakobwa babiri bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, ubururu, umukara n'icyatsi ubona ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, aho bafashwa n'abaganga babigize umwuga kugira ngo basuzumwe indwara bafite bityo bibafashe kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi aho abarwayi baturuka hirya no hino mu gihugu bahurira bagahabwa ubufasha.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ufite umusatsi muke ndetse n'ubwanwa bukeya, urimo guseka, bigaragara ko yishimye kandi anezerewe.

Umuganga wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru urimo kuvura umwana amenyo ndetse n'ibindi bibazo afite kugira ngo atahe yishimye.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi cyiganjemo amabara y'umweru n'umukara, aho abarwayi baturuka hirya no hino bahurira bagahabwa ubufasha n'imiti itandukanye.

Umwana wicaye mu ntebe y'ubururu, afite uburoso mu kanwa ndetse yambaye imyenda myiza yiganjemo amabara y'umweru n'icyatsi, kwiborosa n'uburoso ni byiza kuko birinda indwara.

Umusore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ufite imisatsi myinshi, uri munzu nini ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umugore uri kumwe n'umwana, bambaye amasengeri y'umweru, bafite n'uburoso mu ntoki, barishimye cyane kandi bari mu nyubako nini kandi ngari.

Abana baturutse hirya no hino mu gihugu, bambaye imipira irimo amabara y'icyatsi n'umuhondo, bari gusuzumwa amenyo n'abaganga babihuguriwe kugira ngo bivuze hakiri kare.

Urujya n'uruza rw'abana baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umweru n'umukara, bafite uburoso bukoreshwa mu gusukura amenyo.

Abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara ,umweru n'ubururu. Ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umusore w'imibiri yombi ufite umusatsi mwinshi ufite akadodo mu ntoki asukuza amenyo kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, wicaye ku ntebe nziza uri mucyumba cyiganjemo amabara y,umuhondo icyatsi ndetse n'umweru.

Inyubako nini yahuriwemo n'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abaganga n'abarwayi, aho babaha serivisi nziza, bagataha bishimye bityo bikazatuma bagaruka.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi harimo intebe nziza, ibitanda, televiziyo, mudasobwa, n'ibindi bikoresho.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi, urimo kwitabwaho n'umuganga arimo kumuvura amenyo kandi agataha yishimiye serivisi yahawe.

Umusaza uri kumwe n'umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, bari mu cyumba kinini kiberamo ibikorwa bitandukanye.

Inyubako nini irimo umusaza n'umuhungu we bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, iruhande rwabo hateretse ibikombe bibiri.

Icyumba kinini kirimo umusaza ufite imvi nyinshi wicaye ku ntebe asoma igitabo kinini, ubona ko arimo gusinzira bitewe n'amasaha amaze asoma iki gitabo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, aho umusaza arimo gutanga serivisi nziza, yambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru n'ubururu.

Umusaza n'umukecuru bishimye ubona ko bafite akanyamuneza mu maso, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru, umutuku n'umuhondo.

Umukecuru urimo gukora imyitozo ngororamubiri, ufite imisatsi myinshi wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'umuhondo.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi batandukanye, harimo umukecuru wambaye ishati y'umweru n'umukobwa we wambaye ishati y'ubururu, ubona ko bameze neza kandi bishimye.

Umugore n'umugabo bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, aho baganira ndetse bakungurana ibitekerezo, bityo bikabafasha kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu muri rusange.

Abagore babiri bavuye gutembera bafite ibikoresho byifashishwa mugukora siporo ndetse bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara.

Umusaza wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, urimo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo agire ubuzima bwiza, anarwanya indwara zituruka ku ku mubyibuho ukabije.

Umuganga uri kuvura umukecuru, arimo aramuvura indwara zigiye zitandukanye amugira n'inama y'uburyo yakwirinda kugirango agire ubuzima bwiza, iyo umuntu yirinze indwara akora siporo bituma agira ubuzima bwiza.

Inyubako nini irimo umuganga ndetse n'umurwayi, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu ubona ko bishimye kandi banezerewe, iyo umuntu agiye kwivuza kare bituma abasha gukira vuba.

Inyubako nini yahuriwemo nabantu baturutse mubi bice bitandukanye ,bambaye imyenda y'umweru ubururu n'umukara ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umugabo wambaye imyenda y'umweru n'umuhondo n'umukara, urimo gukina umupira n'umwana mutoya w'imyaka icumi, aho bahuza urugwiro kandi ukabona ko bishimye.

Abakobwa babiri bavuye mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda y'imikara n'umweru, uragaragara nk'aho bishimye kandi banezerewe bityo bikabafasha kubaho neza bishimye.

Umukecuru uri kumwe n'umukobwa bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umuhondo ubona ko bishimye kandi banezerewe kandi bibashimishije.

Icyumba kinini cyiganjemo umuganga ndetse n'umurwayi. Arimo aramuha ibinini amubwira ati "bihekenye". Abirye maze abashe gukira, agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abasaza n'abakecuru bambaye indorerwamo z'amaso n'imyenda yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umuhondo.

Umugore wambaye ikanzu y'umuhondo ufite imisatsi myinshi, wambaye indorerwamo z'amaso ubona ko afite imiti mu ntoki yifashisha kugira ngo yirinde indwara zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'umugabo n'umugore bavuye mu myitozo ngororamubiri ubona ko bishimye banezerewe, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara n'umweru.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, hicayemo umusaza n'umugore bari kumwe kandi bishimye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku n'umweru.

Inyubako nini irimo umukecuru n'umuganga urimo kumufasha kugirango yirinde indwara zitandukanye ahabwa n'inama y'uburyo yakwitwara kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umugabo n'umugore bicaye ku meza barimo kurya, bambaye indorerwamo z'amaso n'imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umweru n'ubururu, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kinini kirimo umugabo n'umuganga, aho amwitaho amubaza ibibazo bijyanye n'uburwayi afite, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu ndetse ubona ko bishimye.

Umugore urimo gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu umukara ndetse ahantu yicaye hari amarangi y'umuhondo n'umutuku.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umutuku, umukara, ndetse n'umuhondo, bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye.

Icyumba kinini kirimo umugore uri kumwe n'umusaza, bambaye imyenda yiganjemo umuhondo n'umukara, aho bafashanya ndetse bakungurana ibitekerezo, bafata n'ingamba zikomeye ku bibazo bahura na byo mu buzima bwa buri munsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye ku ntebe, biganjemo abasaza bafite inkoni, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umuhondo, icyatsi n'umweru.

Icyumba kinini cyateraniyemo umukecuru n'umusaza, barimo gukina imikino itandukanye ubona ko bishimye, kandi banezerewe bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umukara ndetse ufite imisatsi myinshi. Ari ahantu heza, ubona ko hakorerwa siporo.

Umukecuru wambaye ikoti ryiza, ufite amaherena ku matwi, iruhande rwe hahagaze umukobwa mwiza ufite imisatsi myinshi, ubona ko arimo kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini kiryamyemo umusaza, uryamye iruhande rw'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye, hirya no hino mu gihugu, bahurira muri bino bitaro bagahabwa ubufasha.

Icyumba kinini kirimo umusaza n'umukecuru, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'umutuku, iruhande rwabo hari ameza manini, ubona ko bafite urukundo hagati yabo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byiganjemo ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bahurira bagahabwa ubufasha ndetse n'inama ku bijyanye n'indwara babasanganye.

Umugore uri kumwe n'umusaza uri mu kagare yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, afite imisatsi y'imvi ndetse yambaye indorerwamo z'amaso, ibi ngibi biragaragaza ko we n'umukobwa bari kumwe bishimye kuko bari guseka.

Urujya n'uruza rw'abantu baturuka mu bice bitandukanye harimo abasaza bambaye imyenda y'ubururu n'umukara n'inkweto z'umweru barimo kugenda baganira.

Umukecuru uri mu cyumba kinini, ufite imvi nyinshi yambaye indorerwamo z'amaso, aho ahantu ari hari amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Icyumba kirimo umuganga n'umurwayi bambaye imyenda y'umukara ubururu n'umutuku ubona ko bishimye kandi banezerewe bityo bikabafasha gukira.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arwanye indwara zituruka ku mubyibuho ukabije ndetse n'izindi zitandukanye.

icyumba kinini kirimo umusaza wambaye umupira wumuhondo n'ikoti ry'umukara urimo kwitabwaho n'umuganga kugirango agire ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'ababyeyi baturutse mu bice bitandukanye by'Igihugu, aho bambaye imyenda isa umukara, umweru n'ubururu kugira ngo babone uko bakora ibikorwa byabo bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, aho bahurira bakaka serivisi nziza maze bakayihabwa bagataha bishimye.

Urujya nuruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo ,abagore ,n'abakobwa bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umutuku, umuhondo, n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo, abagore n'abana, aho baganira ndetse bakungurana ibitekerezo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bari guturuka mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda yiganjemo umukara, ubururu, umweru ndetse n'ayandi atandukanye.

Icyumba cyateraniyemo umurwayi n'umuganga, urimo kumwitaho ndetse amusuzuma indwara afite, kugira ngo ahabwe imiti n'ubujyanama ku bijyanye n'uburyo afatamo iyo miti.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagore, abagabo ndetse n'abana. Bambaye imyenda irimo amabara y'icyatsi, umweru ndetse n'andi mabara agiye atandukanye.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, umutuku ndetse n'ubururu, ubona ko bishimye.

Inyubako nini yahuriyemo abayobozi b'inzego zitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara yumukara umweru, ubururu n'umuhondo ubona ko bishimye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye, bari mu nyubako nini ubona ko ikorerwamo ibikorwa byinshi. Harimo umugabo ubari imbere uri kubagezaho imbwirwaruhame yambaye ikoti ryiza ry'umukara.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, barimo kubyina imbyino gakondo bambaye imyenda myiza y'umweru ndetse n'umukara.

Icyumba kirimo abantu baturutse mubice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara umweru umuhondo ndetse nu'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bagahurira mu nyubako nini bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, n'umukara ubururu, n'umuhondo.

Umugore n'umugabo bambaye imyenda y'umuhondo n'umutuku, bateruye igikoresho kirimo amabara y'ubururu, icyatsi n'umweru, bigaragara ko bishimye kandi banezerewe.

Umugore n'umugabo wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara n'umweru, bahagaze imbere y'abaturage babagezaho imigabo n'imigambi.

Icyumba kinini cyahuriwemo n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, biganjemo urubyiruko bambaye imyenda y'umweru, umukara, icyatsi ndetse n'ubururu, ubona ko bishimye.

Abaganga b'inzobere bari mu cyumba kinini, aho bita ku barwayi ndetse bakabaha imiti itandukanye kugira ngo bakire, bityo bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako nini, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, ubururu, n'umweru, bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye zibafasha gutera imbere.

Umugabo ufite urupapuro runini rwanditseho amagambo manini wambaye ingofero ndetse nindorerwamo z'amaso, inyuma ye hateye igiti kinini kandi cyiza.

Urujya n'uruza rw'abakobwa bavuye hirya no hino mu gihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu bitaro baje kwivuza indwara zitandukanye zirimo umutwe ibihaha umwijima n'impyiko aho bahabwa serivisi nziza bagataha bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore bambaye amakoti meza ndetse n'amashati akoze neza.

Ihuriro ry'abantu baturutse hirya no hino mu gihugu, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umutuku n'umuhondo, bari mu ishusho irimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'ubururu, bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko igira iti: " Twirinde ibiyobyabwenge."

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, umuhondo, n'icyatsi, baje kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ufite n'akagofero mu mutwe, uyu ni umuganga ufasha abarwayi batandukanye gukira indwara zababayeho karande.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye baje kwa muganga kwivuza indwara zituruka ku mwanda ndetse n'izindi zitandukanye zandura bityo bagahabwa ubujyanama ku buryo birinda izi ndwara.

Abantu bahuriye mu nyubako nini yiganjemo amabara y'umutuku n'umuhondo, bambaye imyenda y'umukara umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umutuku, umuhondo, ubururu, icyatsi, n'umukara, iruhande rwayo hahagaze umukobwa ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bahuriye kwa muganga kugira ngo bavurwe indwara zitandukanye, ndetse bahabwe imiti.

Inyubako nini ikorerwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho abantu baturutse hirya no hino baza kugura ndetse bagataha bishimiye serivisi bahawe.

Ibitaro bikuru bya Kabgayi. Ni bitaro byiza, aho abantu baturuka hirya no hino bahurira bagahabwa ubufasha bujyanye n'ubuvuzi ndetse na serivisi nziza.

Inyubako nini isakaje amabati atukura, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo iby'ubuvuzi, ubucuruzi n'ibindi, aho abantu baturuka hirya no hino bakaza kuhagurira.

Icyumba kinini kirimo umuganga ufashe uruhinja mu ntoki arwitegereza kandi ubona ko arwishimiye, ari mu nzu nini yiganjemo amabara y'ubururu, umweru n'icyatsi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'umukara iruhande rwayo hari indabo nyinshi kandi nziza ndetse hari n'umukobwa uri kugendera mu kagare k'abarwayi bafite ubumuga.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga, aho abantu baturuka hirya no hino bakaza kwaka serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, aho urujya n'uruza rw'abantu bahurira bagakora siporo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye ifite ibyumba byinshi yiganjemo amabara y'umuhondo, umutuku, umweru ndetse n'ayandi atandukanye.

Ikigo kinini kirimo ibyatsi bitoshye, hagati harimo inyubako isakaje amabati y'ubururu, ndetse irimo n'amabara y'icyatsi n'umuhondo.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo ubuvuzi, kirimo ibitanda ndetse n'intebe zabugenewe zifashishwa n'abarwayi barembye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu, iruhande rwayo haparitse imodoka zigiye zitandukanye, zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange cyangwa se mu buryo butari ubwa rusange.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umweru. Umuganga arimo arita ku murwayi, amubaza ibibazo bigiye bitandukanye.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo hari umuhanda munini wa kaburimbo, ndetse hagendwamo n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kwa muganga, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahurira bagahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye yiganjemo amabara y'umutuku, umukara n'umweru. Ubona ko ari nziza kandi yubatse mu buryo bugezweho.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byiganjemo ubucuruzi, ubuvuzi, n'ibindi bitandukanye, aho abantu baturuka hirya no hino, bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yubakishije amatafari ahiye , iruhande rwayo hari ibiti binini kandi byiza. Byifashishwa mu gukoramo ibikoresho nk'intebe, ameza n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga bavura abarwayi, bityo bikabafasha kwita ku buzima bwabo ndetse babaha n'ubujyanama ku bijyanye n'uburyo bafatamo imiti.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo: iby'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse na siporo yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umukara.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo imyitozo ngororamubiri, ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye, bifasha abantu gutera imbere.

Umuganga uri kwita ku murwayi, amubaza ibibazo bitandukanye ndetse amubwira impamvu yatinze kuza kwa muganga, kubera y'uko yari yarabuze ubwishingizi bwo kwivuza.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibikoreshwa kwa muganga, harimo amarange y'umweru, umukara n'ubururu, aho abantu bahurira bagahabwa serivisi nziza.

Umugabo wambaye imyenda y'umweru uhagaze mu muryango w'inzu nini yiganjemo amabara y'icyatsi, umuhondo, n'umukara, iruhande rwe hari umwana uri gusunika umugabo mu kagare.

Inyubako nini ifite ibyumba bitandukanye, irimo amabara y'umweru, umukara, n'icyatsi, abantu benshi baza kwaka serivisi, bitewe n'ukuntu ari inyubako nziza ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umukara, irimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga kugira ngo bavure abarwayi ndetse babahe serivisi nziza.

Icyumba cyateraniyemo abaganga n'abarwayi aho bareba ibibazo abarwayi bafite kugira ngo babishakire ibisubizo babaha imiti ndetse n'ubujyanama.

Icyumba kinini kirimo umukobwa wambaye ikanzu itukura ndetse n'undi uryamye wambaye ijipo y'ubururu, ubona ko arembye kandi akeneye umuntu umwitaho.

Icyumba kinini kirimo ibitanda bibiri ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi bityo bigafasha abaturage ndetse n'abarwayi gukira vuba.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, inama, ndetse n'ubuvuzi.

Umukobwa wambaye itaburiya y'ubururu urimo kwita ku murwayi iruhande rwe hari ibikoresho byifashishwa n'abaganga kugirango bahe serivisi abarwayi.

Urujya n'uruza rw'abayobozi bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa, ubona ko bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye, zifasha abaturage ndetse zigakemura n'ibibazo bitandukanye.

Umuganga wambaye imyenda y'umweru arimo kwita ku murwayi uryamye ku gitanda amusuzuma ndetse amubwira ibimenyetso yagaragaje kugira ngo n'ubutaha azamenye ko ajya kwa muganga.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, irimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga kugira ngo abarwayi babashe gukira kandi basubire mu rugo bishimye.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo iby'ubuvuzi bw'amaso n'ibindi. Iruhande rwayo hateye indabo nziza kandi zigezweho.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, kiryamyemo umurwayi ukeneye gu kuvurwa, kandi akitabwaho bityo bikamufasha gusubira muri sosiyete yishimye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye yaba iby'ubucuruzi, ubuvuzi ndetse n'ibindi iruhande rwayo haparitse imodoka nziza ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyane cyane iz'amaso, aho abarwayi baturuka mu bice bitandukanye by'Igihugu, bagahabwa ubufasha ndetse n'inama zitandukanye.

Icyumba kimwe cyahuriwemo n'abaganga b'inzobere mu by'ubuvuzi, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umukara ndetse n'ingofero nziza zabugenewe zifashishwa mu buvuzi bw'amaso.

Inyubako nini yubakishije amabati iruhande rwayo haparitse imodoka nziza ndetse irimo ibirahuri ubona ko ari nziza kandi ikeye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo ubuvuzi, ubucuruzi n'ibindi, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino bahurira bagahabwa ubufasha.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo ameza, intebe ndetse na za matera zifashishwa mu gukora siporo n'imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ubuvuzi, ndetse n'ibindi iruhande rwayo haparitse imodoka nziza kandi zigezweho.

Inyubako nini isakaje amabati y'icyatsi n'ubururu, aho urujya n'uruza rw'abantu bahurira baje kwaka serivisi y'ubuvuzi, bityo bigatuma bayihabwa kandi bagataha bishimye.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye ameza, intebe, utubati ndetse n'ibindi bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi aho abantu bahurira bakaganirira.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo ibya siporo, ubuvuzi, ubucuruzi n'ibindi bitandukanye, ubona ko ari nini kandi igezweho.

Inyubako nini yahuriwemo n'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo ababyeyi bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, ubururu, umukara ndetse n'icyatsi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi n'ubuvuzi aho abantu baturutse hirya no hino bahurira bagahabwa ubufasha ndetse n'inama zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahuriye ku bitaro kugira ngo bige ku bibazo bifitiye abaturage akamaro n'uburyo byakemuka vuba.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bi bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi irimo amabara yiganjemo umuhondo ,umweru ndetse n'amabara y'umutuku harimo n'igitanda kinini hamwe n'intebe.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibyuma binini ndetse n'ibindi bikoresho abantu bakoresha kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byiganjemo iby'ubucuruzi, ubuvuzi, aho abantu baturuka mu bice byo hirya no hino bahurira, bagahabwa serivisi nziza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi harimo ibitanda, ameza, ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa na muganga.

Icyumba kinini cyahuriwemo n'umurwayi ndetse n'umuganga, aho amufasha, ndetse agasuzuma indwara afite, bityo akamuha imiti azifashisha ageze mu rugo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byiganjemo amabara y'umweru n'umuhondo, harimo ibitanda binini abarwayi baryamyeho.

Icyumba kinini cyateraniyemo abaganga ndetse n'abarwayi, aho abaganga bita ku barwayi maze bagataha bafite akanyamuneza kandi bakize uburwayi bari bafite.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, aho abantu baturuka hirya no hino mu gihugu bakaza kugura imiti, bityo bikabafasha gukira indwara bari bafite.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga. Ni icyumba kirimo ibitanda, ameza, matera ndetse n'ibindi bikoresho.

Inyubako nini isakaje amabati y'umutuku isize amarangi y'umweru iruhande rwayo hashinze amabendera abiri ubona ko ari ay'ibihugu bitandukanye.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ubabona ko bishimye kandi banezerewe.

Umuganga uri kwita ku murwayi amutera urushinge, yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara, ubona ko hari abantu benshi iyo bahahuriye baje kwaka serivisi.

Inyubako nini, irimo amabara y'umuhondo, umweru, n'umukara, iruhande rwayo hari kugenda abantu batandukanye, igaragara nk'aho ari inyubako nini, kandi ijyamo abantu benshi cyane.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, aho abantu baturuka hirya no hino bahurira bagahabwa serivisi nziza.

Icyumba kinini gitangirwamo serivise z'ubuvuzi cyiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga barimo kuvura. Ibikoresho birimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo hateye ibiti binini bikeneye kwitabwaho ndetse bigakorwamo ibikoresho nk'ameza, intebe n'ibindi bitandukanye.

Ihuriro ry'abagore batatu, harimo abarwayi babiri n'umuganga umwe urimo kubavura indwara zitandukanye. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'umuhondo.

Inyubako nini zisakaje amabati y'umutuku, zirimo amabara y'umuhondo, umukara n'umweru, zikorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'ubucuruzi, ubuvuzi n'ibindi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye bya Leta, irimo amabara y'umweru, umuhondo, umukara ndetse n'icyatsi, iruhande rwayo hateye ibiti kandi bifasha ameza kugira ngo hase neza.

Ibyuma byifashishwa mu kuvura abarwayi kwa muganga, hahagaze umugore wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'amabara arimo umweru n'ubururu, yiganje muri iki cyumba.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo n'umutuku, irimo intebe nziza z'umukara n'akabati k'umweru, aho abayobozi baturutse mu bice bitandukanye by'isi bahurira bagakorera inama.

Icyumba kinini cyahuriwemo n'abayobozi batandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'umutuku, aho baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye n'uburyo bafasha abaturage.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri irimo ibikoresho bigiye bitandukanye abantu bifashisha bakora siporo, siporo ni nziza kandi ni ingirakamaro kuko ifasha umuntu mu buzima bwa buri munsi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru, umuhondo ndetse n'ubururu.

Inyubako nini isize amarangi y'ubururu, umweru n'umukara, ni ahantu heza hakorerwa serivisi z'ubuvuzi, aho abantu baturutse hirya bahurira bakaza bagahabwa ubufasha.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, birimo ameza, intebe, mudasobwa, televiziyo n'ibindi byiganjemo amabara y'umweru n'ubururu.

Inyubako nini isize irangi ry'umuhondo, isakaje amabati atukura, ubona ko ari nziza kandi ikeye, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi n'ubucuruzi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo ubuvuzi aho urujya n'uruza rw'abantu bahurira bagahabwa serivisi nziza kandi igezweho.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo ibitanda, intebe, ndetse n'uburiri bwiza abarwayi bakoresha iyo baje kwa muganga kugirango ngo baruhukire heza kandi bamere neza.

Urujya n'uruza rw'abantu bajya mu kigonderabuzima cya Matyazo, aho bakayo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, maze bagataha bishimye.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ameza, intebe n'ibindi bitandukanye byifashishwa kwa muganga.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi y'iz'uvuzi, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu, iteye amarangi y'umweru n'umutuku, iruhande rwayo hari umuhanda munini wa kaburimbo, ndetse n'ibyatsi biyikikije.

Icyumba kinini, kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, bavura abarwayi ndetse banabafasha, kugira ngo bakire vuba. Bityo bikabafasha kwirinda indwara zitandukanye, no gutanga serivisi nziza inoze.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye , cyane cyane iby'ubuvuzi . Aho abarwayi baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu, bahabwa ubufasha ndetse n'inama ku ndwara barwaye .

Inyubako nini irimo amabara y'umuhondo, n'ubururu, n'icyatsi. Ikorerwamo ibikorwa bitandukanye bifasha kwiteza imbere ndetse no guteza igihugu imbere muri rusange.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amaso, irimo intebe nziza ndetse n'ameza, aho abantu baturuka mu bice bitandukanye bahurira bagahabwa ubufasha.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo iby'ubuvuzi n'ubucuruzi, aho abantu baturuka hirya no hino bakaza kwaka serivisi nziza.

Inyubako nini yisize amarange y'umukara, umuhondo n'umweru, iruhande rwayo hari ibiti byiza kandi bitoshye bityo bigatuma hagaragara neza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, iby'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'inama zihuza abayobozi baturutse mu nzego za Leta n'inzego zikorera.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byiganjemo ubucuruzi n'ubuvuzi. Isize amarangi meza y'umweru n'umukara, kandi igaragara neza cyane.

Inzuvu nini isakaje amabati y'umutuku, isize amarangi y'umukara n'umweru, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'amafaranga ndetse n'iby'ubucuruzi busanzwe.

Icyumba kinini kiberamo ibikorwa bitandukanye, harimo imyitozo ngororamubiri, ndetse n'inama zihuza abayobozi baturutse hirya no hino mu gihugu, biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu, iruhande rwayo hari icyapa kinini ndetse hateye ibiti bigezweho, byifashishwa mu kurinda inkubi y'umuyaga ndetse n'ibindi biza bitandukanye.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, bikoreshwa kwa muganga birimo amabara y'umweru, ubururu, umukara bifasha abarwayi kugira ngo bakire.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi byinshi, aho abantu baturuka hirya no hino bahurira, bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo iby'ubucuruzi, ubuvuzi, ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abantu baturuka mu bice hirya no hino mu gihugu bakaza kwaka serivisi.

Inyubako nini iteraniyemo abaturage batandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo, ubururu n'umutuku, aho bategereje umuntu ubafasha ndetse ubaha serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi higanjemo ibikoresho bitandukanye harimo ibitanda, ameza, intebe n'ibindi byifashishwa n'abaganga kugira ngo bite ku barwayi.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ndetse hatangirwa serivisi z'ubuvuzi n'ibindi bitandukanye bifasha abaturage kwiteza imbere.

Inyubako nini isakaje amabati, irimo amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, ubona ko iruhande rwayo hateye ibiti binini bituma hasa neza kandi hakomera.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo ibya siporo iby'ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi butandukanye, aho abantu baturuka hirya no hino mu gihugu bahurira bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, irimo abantu baje kwaka serivisi, bigaragara ko ari kuri banki nkuru, aho abantu bakura amafaranga bazigamye ndetse n'inguzanyo.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi. Aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bafashwa, ndetse bagahabwa serivisi nziza.

Icyumba kinini kirimo abarwayi batandukanye, barimo gufashwa n'abaganga kugira ngo bagire ubuzima bwiza, banagirwa inama y'uburyo, bakwirinda ibiyobyabwenge.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byiganjemo amabara y'umweru, umukara n'ubururu. Iruhande rwanyo hari ibyatsi byinshi kandi bitoshye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi, aho abantu baturuka hirya no hino bagahabwa ubufasha ndetse na serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubuvuzi, higanjemo amabara y'umukara, ni ahantu ubona ko ari hanini kandi hisanzuye aho abantu baturuka hirya no hino bagahurira.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu, harimo abarwayi bagiye batandukanye ndetse n'abaganga barimo barabafasha.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga kugira ngo basuzume indwara abarwayi bafite, bityo bibafashe gukira byihuse kandi byoroshye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, ni ahantu ubona ko hatangirwa serivisi nziza z'ubuvuzi, kandi ari ahantu abantu benshi bahurira, aha hantu ubona ko hagaragara neza.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'icyatsi, umuhondo, umutuku, ubururu n'umweru, ni ahantu heza hakorerwa ibikorwa bitandukanye, ndetse n'ibicuruzwa bihacururizwa ni byiza.

Inyubako nini isakaje amabati atukura, irimo amabara yiganjemo umuhondo, umweru, umukara, ifite ibyumba byinshi kandi binini.

Inyubako nini isakajwe amabati y'ubururu isize amarangi y'umweru n'umuhondo, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye iby'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'ibindi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye bahurira bagahabwa imiti y'indwara bafite.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu buvuzi, harimo imashini, n'ibindi bikoresho bitandukanye, aho abarwayi bafashwa, bakagira ubuzima bwiza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, irimo ibicuruzwa ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi nk'amavuta ndetse n'isabune.

Inyubako nini yiganjemo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ubuvuzi, aho abantu baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu, bagafashwa ndetse bagataha bishimiye serivisi bahawe.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara wicaye munsi yigiti kinini kirimo amashami maremare kandi ubona ko gikoreshwa mu kubazwamo ibiti ndetse n'intebe nziza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, ni ibikoresho ubona ko bikoranye ikoranabuhanga ndetse aho abantu baturuka hirya no hino baje guhabwa ubufasha bagapimishwa bino bikoresho.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byiganjemo ubucuruzi ndetse n'ubuvuzi, harimo intebe nziza kandi zikoranye isuku.

Ikigo cy'amashuri kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, biganjemo abagore, abagabo, ubona ko bategereje umuntu ubafasha, kandi byihuse.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi bw'amaso, umutwe, ibihaha n'impyiko aho abantu baturuka mu bice bitandukanye bahurira bagahabwa serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'Ubuvuzi irimo amabara y'mweru, umuhondo n'umukara ubona ko ari nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'intebe zifashishwa n'abarwayi kugira ngo baruhuke kandi bategereze umuntu ubafasha.

Icyumba cyahuriyemo abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara, baryamye ku bitanda binini kandi byiza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura amaso ndetse n'izindi ndwara zibasira ubwonko, aho abantu bahurira baje kwaka serivise nziza.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, aho abarwayi bafashwa ndetse bakagirwa inama y'uburyo bakoresha imiti ndetse no kujya kwisuzumisha hakiri kare.

Inyubako nini isize amarangi y'umukara, umuhondo, ubururu n'icyatsi aho abantu baturuka hirya no hino bahurira bakaza kwizihiza iminsi mikuru.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, iby'ubuvuzi, ubucuruzi, iteyemo amarangi atandukanye y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, ubona ko ari nziza kandi ikeye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, yiganjemo amabara y'umweru ubururu ndetse n'umukara, iriho umukobwa wambaye indorerwamo z'amaso ubona ko ashushanyije ku birahure mo imbere.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye iby'ubuvuzi, ubucuruzi aho abantu baturuka impande n'impande mu gihugu bakaza kwaka serivisi nziza kandi inoze.

Icyumba kirimo umubyeyi uteruye umwana iruhande rwe hahagaze umuganga wambaye ishati y'umweru ubona ko ari kwita k'umwana kugirango agire ubuzima bwiza.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo n'umweru, iri iruhande rw'ibiti binini nk'ibyatsi ku buryo kugira ngo uyigereho ugenda kilometero ebyiri uvuye ku muhanda wa kaburimbo.

Inyubako nini isize amarangi y'umukara n'umweru, iruhande rwayo hicaye abantu bambaye imyenda y'ubururu, umweru n'umukara, ubona ko bategereje abantu babafashe.

Inyubako nini irimo amabara y'umuhondo, umweru n'icyatsi, iruhande rwayo haparitse imodoka nyinshi zitandukanye, hari umugore uri mu mutaka arimo gucuruza amayinite.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byiganjemo amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo. Hagati harimo intebe abantu bicaraho bategereje serivisi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye irimo amabara y'umweru, ubururu n'umukara ni ahantu ubona ko ari heza kandi hashimishije bityo abantu bakahahurira baje kwaka serivisi.

Inyubako nini ikikijwe n'indabo nziza zirimo amabara y'umutuku n'icyatsi, aho abantu baturuka mu bice bitandukanye bahurira bagahabwa serivisi nziza kandi zinoze.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, icyatsi ndetse n'umukara, barimo kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Inyubako nini iberamo ibikorwa bitandukanye, habaye iby'ubuvuzi ndetse n'inama zigirwa abarwayi, harimo ibitanda binini, bikikijwe n'amabara y'umweru.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umukara, umweru n'icyatsi, irimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, nk'bitanda, ameza, mudasobwa, n'ibindi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, aho abarwayi baturuka mu bice hirya no hino bakaza kwivuza bityo bagataha bishimye kandi banezerewe.

Umugore n'umugabo bavuye muri siporo bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru bafite amacupa y'amazi mu ntoki.

Agakoresho kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo kifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye, ariko abantu batazi ko kabafasha by'umwihariko abantu badasobanukiwe iby'ikoranabuhanga.

Imisozi miremire iteyeho ishyamba ndetse n'ibyatsi byinshi, iruhande rwayo harimo umukokwe munini aho abantu bavuye mu myitozo ngororamubiri bahurira bakavoma amazi yo kunywa.

Inyubako nini isize amarangi y'ubururu n'umuhondo, irimo gukorwaho amasuku n'abakozi batandukanye, kugira ngo imere neza kandi yifashishwe mu bikorwa bitandukanye.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri wambaye agapira k'umukara ndetse ari kunywa amazi iyo umuntu akoze siporo bituma agira ubuzima bwiza kandi akirinda indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Igikoresho cyabugenewe mu gupima indwara z'abarwayi aho abaganga bagikoresha bagira ngo basuzume neza umuvuduko ndetse n'igipimo umurwayi agiye afite imibare igenda ibigaragaza.

Umukobwa wambaye inkweto n'imyenda yiganjemo amabara y'umweru, icyatsi n'ubururu, uri mu kibuga cy'umupira ndetse yishimye ubona ko ari gukina umupira.

Urujya n'uruza rw'abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, bahuriye ku ivuriro kugira ngo basuzumwe indwara bafite ndetse birinde, bagire ubuzima bwiza.

Umukobwa uri mu nyubako nini, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, arimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arwanye indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umugabo munini uvuye mu myitozo ngororamubiri wambaye umupira wiganjemo amabara y'umweru, icyatsi kibisi n'umuhondo ubona ko afite imbaraga nyinshi cyane.

Inkweto z'umukara zifite ibara ry'umweru ku ruhande, iruhande rwazo hari ikibuga kinini ubona ko bagikoreramo ibikorwa bitandukanye nko gukinirwamo umupira w'amaguru.

Umukobwa wambaye imyenda y'umutuku n'umukara, urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugirango yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri wicaye kumukeka, iruhande rwe hari mudasobwa arebamo imyitozo uko abandi bayikora maze akahakura isomo rimufasha nawe we kwitoza ubwe.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru, arimo gukora imyitozo kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mwanda ndetse no ku mubyibuho ukabije.

Urujya n'uruza rw'abantu bavuye mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda yiganjemo umukara, umuhondo n'umweru, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo radiyo, tereviziyo ndetse na mudasobwa, byiganjemo amabara y'umweru, umukara, ubururu n'icyatsi.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, biri mu mabara y'umweru n'ubururu, aho abantu bahurira bakaza gufata serivisi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo habeho kwirinda indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Icyumba kinini kirimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo amabara y'ubururu, umuhondo, n'umweru, ni ahantu ubona ko ari hanini kandi harimo ibintu byinshi by'amoko agiye atandukanye.

Imodoka itwara abarwayi irimo gukata umuhanda werekeza i ruhande rw'ibumoso, ubona ko yihuta kandi itwaye umurwayi warembye bityo abantu bakayivira mu nzira.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa kwa muganga, harimo; intebe, ameza, mudasobwa n'ibitanda.

Inyubako nini irimo umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umutuku n'umukara, urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Icyumba kinini kirimo umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umutuku, iruhande rwe hateretse amazi, ubona ko agenda asomaho, yirinda indwara zituruka ku muvuduko ukabije w'amaraso.

Inyubako nini yateraniyemo abantu bari mu myitozo ngororamubiri, aho bitabwaho ndetse bagahabwa imyitozo ituma bagira ubuzima bwiza kugira ngo birinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umusore wambaye umupira w'ubururu n'isaha ku kuboko, uri kunywa amazi meza kugirango yirinde indwara zitandukanye zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umuganga wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, n'umuhondo. Afite agakoresho mu ntoki, ubona ko agateruye, kandi yishimye, ananezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umukara, ubona ko bari guhabwa serivisi nziza kandi zinoze.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, irimo umugabo wambaye imyenda y'umukara n'umweru, arimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo amere neza.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu urimo gukora imyitozo ngororamubiri mu nzu nini irimo indabyo ndetse n'imitako.

Umukobwa muremure wambaye umupira w'umutuku n'isaha ku kuboko, uvuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abana ndetse n'abantu bakuru, bari mu cyumba kinini kirimo amabara y'umweru, umukara n'umuhondo.

Icyumba kirimo umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari umuhungu uri mu kagare, ni mu nyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu bahurira baturutse hirya no hino.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, ubururu n'umweru, urimo gukora imyitozo ngororamubiri, kugirango arwanye indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Ihuriro ry' abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahuriye kwa muganga kugira ngo bisuzumishe indwara kugira ngo bafate imiti, bayifatire ku gihe.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umukara n'umweru, bari mu nyubako nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Umugabo munini wambaye ikoti ry'umukara, ufite icupa ry'amazi mu ntoki, wicaye ku ntebe nini kandi nziza.

Umukobwa uvuye mu myitozo ngororamubiri wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, icyatsi n'umweru, afite icupa ari kunyweramo amazi kandi ryiza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, umuhondo n'umukara. Ubona ko hakorerwa imyitozo ngororamubiri kandi imyitozo ngororamubiri ifasha mu buzima bwa buri munsi.

Umusore wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, urimo kunywa amazi, uvuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo bagabanye indwara zituruka ku mubyibuho ukabije, ndetse n'izindi zandura zituruka ku mwanda.

Ibiribwa bitandukanye, biteretse ku meza, birimwo amagi, inyama, ibitunguru, inyanya, urusenda, ndetse n'inyama.

Umusore wambaye isaha nziza n'inkweto byiganjemo amabara y'umukara, umutuku n'umweru, urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umugabo wambaye imyenda yiganjemo, amabara y'umweru, n'umukara, urimo kuvura umurwayi wavunitse akaguru, ndetse amuha imiti imufasha gukira vuba.

Icyumba kinini kirimo umuganga n'umurwayi urwaye ivi, aho agirwa inama yo kugenda buhoro buhoro kugira ngo rizakire vuba kandi bikamufasha no kutigunga.

Icyumba kirimo umugabo wambaye ishati y'umutuku, wicaye imbere ya mudasobwa, mu cyumba kinini kirimo ibikoresho, byifashishwa n'abaganga kugirango bite ku barwayi.

Umugabo wakomeretse mu ivi wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, urimo kuvurwa n'umuganga wabigize umwuga kugira ngo akire maze asubire mu muryango nyarwanda.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo, uteruwe n'abagabo babiri bambaye imyenda y'umutuku n'umweru, bavuye gukina umupira, yavunitse maze yihutira kujya kwa muganga ngo afashwe.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byiganjemo amabara y'umukara n'umweru gikorerwamo imyitozo ngororamubiri aho abantu baturuka hirya no hino bagahurira hamwe ndetse bakaganira.

Umusore wambaye umupira w'umweru, ufite ubwoya bwinshi ku maboko ndetse uri mu cyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda y'ubururu, ufite icupa ry'amazi mu kanwa, ubona ko arimo kurwanya indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umukobwa uri mu cyumba kinini kirimo igitanda kinini cyane wicaye ku buriri yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Igikapu kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byaba iby'ubuvuzi ndetse n'ibindi abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye isenge nziza y'icyatsi, urimo gukora imyitozo ngororamubiri. Siporo ni kimwe mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye inkweto z'umweru n'iyenda irimo amabara y'umukara n'umweru, ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri ngo arwanye indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo urubyiruko, abana ndetse n'abandi b'ibyiciro bindi bitandukanye, aho bakora imyitozo ngororamubiri bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abarwayi barwaye indwara zanze gukira, abarwaye indwara zandura ndetse n'abandi bagiye batandukanye.

Icyumba kinini kirimo umurwayi n'umuganga, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, ubururu, ndetse n'umweru. Ni ahantu ubona ko hari ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga.

Icyumba kinini kirimo umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, ubona ko ariyo mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo agabanye indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Imiti itandukanye ndetse n'amavuta akoreshwa ku ruhu kugira ngo harindwe indwara zitandukanye zifata umubiri w'umuntu, binyuze ku mikoreshereze mibi y'imiti yahawe ndetse yandikiwe abarwayi.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyiganjemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri ni ahantu heza ubona ko hatangirwa serivisi nziza.

Urujya n'uruza, rw'abantu bahuriye mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara ndetse n'ubururu. Ubona ko bari gukina umupira w'amaguru.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'undi wambaye uw'umweru barimo gukora ibikorwa bijyanye na siporo kugirango bagire ubuzima bwiza, urebye ni abantu beza bigaragara ko bishimye.

Siporo ni imwe mu myitozo ituma umubiri umera neza aho umuntu wari urwaye iyo akoze siporo agira ubuzima bwiza bityo akirinda zimwe mu ndwara zandura.

Umusore wambaye umupira w'umweru, ufite ikibazo cyo mu nkokora, bigaragara ko akeneye ubufasha bw'ibanze. Iyo umuntu yagize ikibazo, ni byiza kwihutira kujya kwa muganga.

Umugore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'icyatsi, ufite imisatsi myinshi uvuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zituruka ku mubyibuho ukabije.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'imyitozo ngororamubiri, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bahurira bagakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barwanye indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje gusoroma imbuto ndetse ubona ko bishimye banezerewe, bityo bikabafasha kongera iminsi yo kubaho.

Urutonde rw'imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo aho abantu barwaye bihutira kujya kwivuriza kugira ngo bagabanye indwara ubukana.

Imiti gakondo yifashishwa mu buryo bugiye butandukanye yiganjemo ibimera, igikakarubamba ndetse n'iyindi igiye itandukanye yifashishwa n'abantu babuze ubushobozi bwo kujya kwa muganga.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubucuruzi kirimo imiti myinshi itandukanye aho abantu baturuka hirya no hino bashobora kuza bakagura imiti badahenzwe.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa n'abantu kugira ngo birinde indwara zananiranye. Iyo umuntu akoresheje imiti gakondo atagiye kwa muganga ntabwo biba ari ubuvuzi bwemewe kuko aba atahawe ibigenerwa umurwayi abihawe na muganga.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko baje kugura ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo imboga, inoryi, inyanya, amashu n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Ibiti binini biri mu ishyamba byiganjemo inturusu, gereveriya ndetse n'andi moko atandukanye yifashishwa mu gukorwamo ibikoresho byo mu rugo.

Inyubako nini irimo abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru n'ubururu, ubona ko bari mu bikorwa by'ubucuruzi kandi bishimye bananezerewe.

Umukecuru wambaye umwenda w'umweru ufite imisatsi myinshi, urimo gusarura imbuto, ubona ko azitegereza kandi akeneye kubona zera kandi zisarurwa.

Icyumba kinini kirimo ibiribwa bitandukanye, byiganjemo inanasi, ibisuguti ndetse n'izindi mbuto z'amoko atandukanye, zifashishwa mu kurwanya imirire mibi.

Igiti kinini cyifashishwa mu kuvura indwara zandura, giteye hagati y'inyubako ebyiri, zisakaje amabati ndetse n'amategura.

Imiti gakondo yifashishwa mu buryo bugiye butandukanye, hari abantu bayinywa ndetse hari n'abandi bayirya. Hano hari imiti gakondo yiganjemo amabara y'umutuku, umweru n'umukara.

Imiti gakondo, imiti gakondo ni imiti yifashishwa n'abantu mu gihe babuze ubushobozi bwo kujya kwa muganga, iyo umuntu atagiye kwa muganga arembera mu rugo bityo akiyambaza imiti gakondo.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko baje kugura ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo intoryi inyanya amavuta n'umunyu n'ibindi byose bitandukanye aho baza kugura ibyo badafite.

Urutonde rw'ibiribwa birambitse ku meza harimo amavuta, indimu, igitunguru ndetse n'ibindi biribwa bigaragara ku ifoto.

Ibimera bitandukanye biteye mu madobo, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gushyiramo ibimera, bityo bikaba imitako abantu bakoresha.

Umuravumba ni umuti ukoreshwa n'abantu bivura indwara zigiye zitandukanye harimo inkorora, ibicurane ndetse n'izindi ndwara zifata umuntu atabiteguye ndetse zikamwataka byihuse.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, aho bahuriye ku musozi kugira ngo basenge kandi bashime Imana, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'umutuku.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo higanjemo amabara y'umweru, ubururu icyatsi ,umukara .Iruhande rwayo hahagaze umugore n'umugabo bambaye imyenda isa.

Urutonde rw'imiti yiganjemo amabara y'icyatsi, umweru, umutuku n'umukara, iruhande rwayo hahagaze umucuruzi urimo kuyiha abaturage.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi harimo iyo abantu bakoresha mu gihe bategereje serivise ya muganga. Harimo iy'icyatsi, umuhondo, umweru ndetse n'umukara.

Imbuto zitandukanye ziganjemo inanasi n'imineke, ziri iruhande rw'amata yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zituruka ku mirire mibi.

Inyubako nini ikorerwamo ibicuruzwa bitandukanye, urugero nka fanta, inzoga ndetse n'ibindi bitandukanye, bikorerwa muri iyi nyubako nziza.

Inyubako zitandukanye zicururizwamo ibiribwa by'amoko yose harimo amashu, intoryi, imboga, ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.